Umugabo wahinze ingano, ari kuzitera umuti, ingano nziza cyane zitoshye akoresheje ipombo, yambaye na masike kugira ngo yirinde ko umuti wamugiraho ingaruka, kandi ingano ni nziza zikungahaye ku ntungamubiri ku mubiri mu mubiri w'umuntu, kandi n'igihingwa cyo mu Rwanda.

Aano umugabo yahinze ibitunguru ari kubitera umuti akoresheje ipombo, yabhinze inyuma y'urugo ahantu hari amazu, ibitunguru ni byiza byongera ibinure mu mubiri kandi bifasha gutegura amafunguro agatuma agira icyanga akaryoha cyane, uno mugabo yabyitayeho arabisasira, azabibagara byose.

Umurima w'ibigori, ibigori byahuye n'izuba byabuze imvura ariko ibigori nubwo byabuze imvura byahuye n'izuba birasa neza mo gacyeya, ibigori nibyiza byongera intungamubiri mu mubiri kuko bitera imbaraga umuntu wabiriye arakomera ni igihingwa gihingwa mu Rwanda kandi kikadufasha muri byinshi cyongera ubukungu.

Hano hari igihingwa cy'ibishyimbo, biri kumera bifite amagarama, bigifite amababi abiri, hari n'utundi dutoya harimo ibyatsi bisasiye, biri mu murima, ibishyimbo iyo bikuze bizana imiteja kandi bikungahaye ku ntungamubiri n'ibyubaka umubiri muri rusange, ibishyimbo.

Umubyeyi ari kuvomerera akoresheje umupira, kuvomera imyaka yahinze, hari urutoki, urutoki harimo imbuto yahinzemo, nizo ari kuvomera, urutoki rweraho ibitoki bikavamowo umutobe banywa kandi umutobe ni mwiza mu mubiri w'umuntu.

Iki cyumba ndabona kiriho urugi rw'ibati, harimo amazi, amazi, umuriro, ndi kubonamo utuntu twinshi dutandukanye, runo rugi ruriho ipata.

Ingurube iri mu kiraro iri kurya, ingurube n'itungo ryororerwa mu rugo kandi ingurube ni nziza rikirigita ifaranga ,umuntu woroye ingurube nta bukene ahura nabwo, aragurisha irabwagura akabona akagurisha ibyana akabona amafaranga, akagura imyambaro, akagura ibyo kurya. Mu Rwanda mbese n'ishingiro ry'ubukungu ku mumtu woroye...

Hano hari veterineri yambaye bote z'umweru yabaze inka, inka yapfuye barayibaga ariko yabanje kuyisuzuma, ivamo inyama, inyama ni nziza zongera amaraso mu mubiri kandi zubaka umubiri muri rusange, umuntu wariye inyama aba ameze neza kandi inyama ni nziza.

Uru ni urupango baruzanyemo inka, inka baje kuzikingira baferi veterineri bafite umuti, baje kuzitera intanga izindi baje kuzikingira, kugira ngo zizabashe kugira umukamo, zizabashe kubyibuha kuko inka ni nziza, zitanga umukamo mwiza, hari abambaye iby'umweru n'iby'ubururu.